Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda ndetse hano akaba ari ku cyicaro gikuru, hazengurukijwe n'ibiti ndetse hari n'inyubako ndende.

Mu iguriro ririmo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, ndetse bikaba bipanze neza mu buryo bugezweho harimo imitako ndetse n'ibindi by'ubugeni.

Mu iguriro ry'ibikoresho bitandukanye higanjemo by'imitako, ndetse hakaba harimo imyenda yo kwambara y'abagore ikozwe mu bitenge.

Imodoka ntoya y'amabara y'umukara ikaba ifunguye ndetse aha imbere niho umuntu yicara agiye kugitwara kiriya k'ikiziga nicyo kifashishwa mu kuyiyobora.

Aha ngaha ni mu iduka, iduka ricuza ibyo kunywa bitandukanye byiganjemo umutobe ukomoka ku mbuto ndetse n'ibyo kurya ndetse n'amata akomoka ku nka nziza z'inyarwanda.

Uru nguru ni urubuga rwifashishwa kuri murandasi n'ibigo by'itumanaho, mu rwego rwo kohereza no kwakira amafaranga, mu buryo bworoshye hifashishijwe ikoranabuhanga.

Urupapuro rw'iyemezabwishyu rw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rukaba ruhabwa umuntu umaze kwishyura herekanwa amafaranga yishyuye ndetse n'igihe yishyuriye.

Aha ngaha ni amagambo yanditse mu ndimi z'amahanga tugenekereje mu kinyarwanda ngo ni ukuzana ibintu byawe waba watumije kuri murandasi mu gihe cyihuse cyane.

Hano hari inzu ikodeshwa amafaranga magana ane y'amerika ku kwezi. Ikaba iherereye ku Gishushu hafi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere.

Mu mujyi wa Kigali ndetse umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka zitwara abantu muri buryo rusange ndetse n'imodoka ntoya, ikaba ari inyubako ndende cyane, hakaba hagiye hakikijwe n'ibiti bitanga umwuka ndetse ku muhanda hari n'amatara abonesha mu gihe bwije.